Abantu batandukanye bakurikiye inama. Baratandukanye harimo abagabo harimo n'umugore, bose bafite amazi yo kunywa bahawe kandi hari na mudasobwa imbere yabo, n'udupapuro two kwandikaho.

Abantu bari mu cyumba cy'inama barimo barakurikirana amahugurwa, bose baricaye baratuje, kandi buri wese afite amazi imbere ye. Muri aba bantu harimo n'umuzungu w'igitsina gore waje mu nama.

Abayobozi batandukanye bitabiriye inama icyumba cy'inama kiruzuye, buri wese yicaye mu mwanya we ameza bicayeho arateguye buri wese afite amazi n'umutobe wo kunywa.

Abantu bari mu cyumba cy'amahugurwa, bose baricaye, bameze neza, barakurikiye imbere, buri muntu wese afite icyo kunywa, hari abafite umutobe, hari n'abafite amazi yo kunywa.

Icyumba cy'amahugurwa kirimo abantu batandukanye harimo abitabiriye amahugurwa bafite ibikoresho bitandukanye bibafasha gukurikira urugero nka mudasobwa buri wese yahawe amazi yo kunywa kandi abashinzwe guhugura bari gukoresha ikoranabuhanga.

Abantu baba bari mucyumba cy'inama .Inama irimo abantu batandukanye bose bicaye ahantu heza kubera ko ameza areba ibitambaro byiza buri wese arareba imbere kandi buri wese yahawe amazi yo kunywa.

Abantu batandukanye bari mu nama icyumba cy'inama ni kigari bihagije ameza arimo gukoreraho afite ibara ry'umutuku buri wese afite amazi yo kunywa imbere ye hari urumuri ruhagije .

Abantu batandukanye bari mu mahugurwa, amahugurwa yabereye mu cyumba cy'amahugurwa. Harimo abantu batandukanye abantu b'igitsina gabo nab'igitsina gore, buri wese afite agakaye yandikamo ibivugirwa mu mahugurwa ndetse afite n'amazi yo kunywa.

Abantu bari mu nama umudamu umwe aricaye imbere ye hari mudasobwa umugabo arahagaze arimo kubaza ikibazo abayoboye inama bicaye imbere.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye baje mu nama bose barimo barareba imbere, kandi buri muntu afite mudasobwa ari mu gukoresha abayoboye inama bicaye imbere kandi barimo baganiriza abitabiriye inama.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu batandukanye baje mu nama, bose barakurikiye, bose bafite ibitabo barimo gukoresha kandi buri wese yahawe amazi yo kunywa.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye baje mu nama. Giteguye neza dufite amabara meza. Ameza arambuyeho ibitambaro by'umutuku, harimo intebe zitandukanye abantu bicaraho, kandi buri wese aratuje.

Abantu babiri bicaye kumeza umwe yambaye ishati y'umuhondo undi yambaye ikote ry'ubururu, barimo baratanga ikiganiro. N'abakozi b'ikigo yigihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro.

Abayobozi batandukanye b'ibigo bya leta bitandukanye bari mu nama, buri wese aricaye ateze amatwi imbere ya buri wese harimo icyo umuntu ashinzwe n'aho yaturutse.

Abantu batandukanye bari mu nama. Harimo abagabo bambaye amakoti y'imikara, ndetse bari kumwe n'abantu b'igitsina gore. Umuntu uyoboye inama ni igitsina gore. Kandi buri wese afite icyo kunywa.

Abantu bari mu nama bose bari mu cyumba cy'inama kandi bose biteguye gukurikira inama, ameza ateguye neza buri wese afite amazi yo kunywa kandi bose barakurikiye.

Abantu batandukanye bari mu nama, bose barimo baraganira ku kibazo runaka buri wese afite ahantu yandika kandi buri wese afite amazi yo kunywa barimo gukoresha ikoranabuhanga mu nama.

Umunara w'itumanaho, ugizwe n'ibikoresho bitandukanye hakubiyemo insakazamashusho n'insakazamajwi, zishobora gutuma abantu batuye mu duce twa kure bafite inyakiramashusho cyangwa inyakiramajwi, babasha kubona ibiganiro.

Aradibi ni ikigo k'igihugu k'iterambere mu Rwanda ni ikigo gifite serivisi nyinshi zitandukanye hakubiyemo ubukerarugendo kugira ahantu usura nyaburanga gusura za parike n'ibindi.

Irembo gove ni uruvu ni urubuga rusabirwaho serivisi zitandukanye za leta ushobora kwisabira iyo serivisi cyangwa ukagana umuntu uhagarariye iryo rembo aho utuye ushobora gusabiraho serivise zitandukanye nka serivisi y'uko utuye, ibyemezo by'uko washatse, ibyemezo by'ukuri ingaragu n'ibindi.

Icyapa cya emutiyeni, emutiyeni ni sosiyete y'itumanaho mu rwanda hari kandi umunara w'itumanaho ukoreshwa mu kwakira no gusakaza amashusho n'amajwi.

Rura ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imitangirwe ya serivisi mu mirimo ibyara inyungu abantu benshi baba bafite serivisi ziyobonwa n'abaturage bagomba kuzidikisha muri rura abashaka ibyemezo bitandukanye n'uburenganzira bwo gutwara abagenzi.

Icyumba cy'ikoranabuhanga cyagenewe abanyeshuri. Ni icyumba kiba kirimo za mudasobwa, abanyeshuri baza kwigiraho. Buri munyeshuri yicaye imbere ya mudasobwa ye. Barimo barakora imyitozo mwarimu yabahaye.

Umunara w'itumanaho n'umunara ukoreshwa mu gusakaza amajwi n'amashusho by'ibigo bitandukanye by'itumanaho hari akazu gatoya umuzamu urinda umunara abarimo.

Mudasobwa zagenewe abana bo mu mashuri abanza ,abanyeshuri babiri barimo barakoresha mudasobwa yabo bashushanya ibintu byinshi bitandukanye izi mudasobwa zishaka gukora ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'ibyo mwarimu yahaye abanyeshuri .

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka gifite urubuga rureberwaho amakuru y'ubutaka kuri murandasi, ubushobora kureba ubutaka bwawe bukareba uburyo bwagenewe gukorwa ukareba niba butamba amabuye cyangwa se na bwarakwatirijwe.

Urubuga irembo govu ni urubuga rusabirwaho serivisi za leta zitandukanye, hariho serivisi zirenga magana abiri kandi uko umunsi ugenda uza hagenda hongerwamo izindi serivisi nshyashya ushobora gukosoza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ushobora kongeresha n'uruhushya rw'ataganyo rwo gutwara ibinyabiziga unyuze ku rubuga irembo govu.

Ibikorwa remezo by'itumanaho, biri ku munara muremure biyifasheho bikaba bituma abantu batuye kure babasha kwakira amajwi ye n'amashusho kunyakira amajwi zabo n'inyakiramashusho zabo.

Umunara w'itumanaho, wubatse ahantu ku muhanda, ushobora gukoreshwa na televiziyo cyangwa se na radiyo zitandukanye kugira ngo abaturage babashe gukurikirana ibiganiro kuri televiziyo no kuri radiyo.

Irushanwa ryateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, garagaza impano yawe maze utsindire miliyoni imwe y'amafaranga ushobora kugaragaza impano yo gushushanya, kuririmba ,ubusizi, kubyina ,gusetsa n'izindi .

Umunara w'itumanaho ni umunara usakaza amajwi cyangwa amashusho ku baturage bari kure, abakozi babiri b'ikigo cy'itumanaho, bafite mudasobwa barimo baragenzura ibikorerwa ku munara w'itumanaho.

Umunara w'itumanaho. Umunara w'itumanaho wubakwa ahantu, ugashyirwaho insakazamajwi n'insakazamashusho bitewe n'icyo uwo munara ugiye gukora, hanyuma abatuye mu gace k'igiturage, bakaba bakwakira amashusho n'amajwi bahawe n'uwo munara.

Umunara w'itumanaho; umunara w'itumanaho ukoreshwa mu gusakaza amajwi cyangwa amashusho cyangwa ibimenyetso ku bantu bigenewe ko bigeraho, haba hariho ibyuma bitandukanye bisakaza cyangwa se bikakira ibi bimenyetso n'amajwi n'amashusho.

Byikorere n’ ubukangurambaga ku baturage b'ukuntu bakwisabira serivisi ku irembo batagiye ku muntu uhagarariye irembo ushobora kwisabira ibyemezo bitandukanye nko kwiyandikisha ku bizamini byo gutwara ibinyabiziga gusaba ibyangombwa bitandukanye bitangwa n'inzego z'ibanze n'ibindi.

Ahatangirwa serivisi z'ikoranabuhanga, umukozi utanga serivisi'ikoranabuhanga ari kumwe n'umuntu waje kumusaba serivisi yafunguye mudasobwa arimo aramukorera ibyo yamusabye.

Inzu iriho ibikoresho n'iminara by'itumanaho, ibikoresho by'itumanaho n'iminara bishobora gukoreshwa mu gusakaza amajwi n'amashusho ahantu abaturage batuye kure cyangwa se ahantu hari hasi.

Urubuga irembo ni urubuga abantu bakoresha kugirango babone serivise zitandukanye za leta. Ushobora gukoresha urubuga irembo usaba ibyemezo bitandukanye umuntu akeneye, ukeneye kwiyandikisha mu bizamini bya polisi y'igihugu byo gutwara ibinyabiziga n'ibindi.

Abantu bari ku munara w'itumanaho umunara w'itumanaho utuma abantu basha bababasha kwakira amashusho n'amajwi, kunyakira mashusho zabo no kunyakira amajwi zabo, umunara w'itumanaho udahari ntabwo inyakiramashusho zakora n'inyokiramajwi ntizakora.

Irembo ni uburyo bukoreshwa mu gusaba serivisi zitandukanye kunyuze kuri murandasi ubukangurambaga bwa byikorereye butuma abantu babasha kwisabira serivisi zimwe na zimwe kuri iyi terefone zabo cyangwa kuri mudasobwa bitewe'uko bagenda ushobora kwiyandikisha kugezam cyo gutwara ibinyabiziga cyangwa se ibindi.

Irembo ni urubuga rutangirwaho serivisi za leta, irembo ushobora kuyikoresha kuri mudasobwa cyangwa kuri telefoni, umuturage ashobora gusaba serivisi iyo ari yose mu byemezo bitangwa n'inzego z'ibanze.

Umugore wambaye ikanzu y'umuhondo, yambaye amaherena ku matwi. Arimo arareba imbere. Iburyo bwe hari ibendera ry'u Rwanda. Ibumoso hari ibendera rya Repubulika y'u Rwanda. Ni Umuyobozi.

Umunara w'itumanaho, ni umunara muremure ushyirwaho ibikoresho bitandukanye, byakira bikanohereza amashusho n'amajwi ahantu hatandukanye, bityo abantu bafite inyakiramajwi cyangwa inyakiramashusho bakabasha kubibona.

Umunara w'itumanaho ni umunara wubakwa hanyuma bakazashyiraho hejuru ibikoresho bigamije gusakaza no kwakira amashusho n'amajwi ibyo bigatuma abantu batuye muduce dutandukanye tw'igihugu babasha kumva radiyo cyangwa se bakareba inyakiramashusho .

Amatara ku mihanda ya kaburimbo, amatara yo kumuhanda amurikira abagenzi bagenda nijoro ndetse akamurikira n'ibinyabiziga mumuhanda, ibinyabiziga biragera nta kibazo.

Insinga z'amashanyarazi, ni insinga zikoreshwa kugira ngo bageze amashanyarazi ku baturage bayakeneye mu duce dutandukanye, izi nsinga zinyuzwa ahantu heshi hatandukanye, ariko zikanyuzwa mu kirere kugira ngo hatagira ibyo zibangamira.

Amazu y'abaturage yubatse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, afite ibikorwa remezo by'amashanyarazi, yubakishije amategura, ku uruzitiro n'amatafari ahiye, ku muhanda hateyeho ibyatsi n'ibiti.

Imiturire mu mujyi akenshi iba igizwe n'amazu meza afite ibisenge bigaragara neza mu mujyi ahenshi haba hari ibiti hagati y'amazu bitanga umuyaga mwiza harimo n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi .

Amazu yubatse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, ni amazu bigaragara ko ari ayo guturamo, afite ibikorwa remezo by'amashanyarazi, amashanyarazi ashobora gutuma abatuye ku muhanda bamurikirwa bakayakoresha mu gukoresha ibikoresho bitandukanye.

Rege, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda, rege ifite ibigo byinshi bitandukanye mu ntara harimo n'abantu bagiye bayihagarariye, abantu rero bakeneye amashanyarazi bagana ikigo cyayo kibegereye.

Umuhanda urimo abantu benshi barimo kugenda, harimo abamotari barimo kugenda babiri na moto zabo harimo n'abanyamaguru benshi. Imbere hari imodoka irimo kugenda, umuhanda ufate amatara yo kumuhanda awucanira nijoro.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi bigizwe n'insinga zitandukanye, zigamije gushyira umuriro w'amashanyarazi abaturage. Ibikorwaremezo bigamije kwegereza abaturage amashanyarazi nabo bakaba mu kizima no mu bwigunge.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi bigizwe n'insinga z'amashanyarazi n'ibyumazi ziba zifasheho byifashishwa mu kugeza amashanyarazi ahantu hatandukanye mu bice by'igihugu amashanyarazi atagera bityo abaturage nabo bakabona urumuri.

Inzu nziza yubatse iruhande rw'umuhanda, ku irembo hateye indabyo n'ubusitani, harimo ibiti biteye bizana umuyaga, hari insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro muri izo nzu.

Umuhanda wa kaburimbo, umuhanda uramanuka, umuhanda uriho amatara awucanira n'ijoro abagenzi bakabona hakubiyemo n'ibinyabiziga, umuhanda ukijwe n'ibiti bitandukanye, hari imodoka ebyiri zihagaze ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, umugore ahagaze iruhande rw'umuhanda afite imizigo aje gutega imodoka ku ku muhanda hateyeho ibiti bitandukanye, hari abanyamaguru barimo bazamuka ku nzira y'abanyamaguru.

Umukozi w'ikigo gishinzwe gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi. Yuriye igiti kimanikwaho insinga z'amashanyarazi. Agiye gusana ibintu bitandukanye byangiritse, yiziritse cyane kugirango adahura n'impanuka.

Insinga z'amashanyarazi, zikoreshwa iyo barimo kujyana amashanyarazi ahantu atari ari. Amashanyarazi afasha abaturage benshi kuva mu bwigunge, kubera ko abafasha gucana mu mazu yabo n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari ari kugenda mu muhanda ahetse ikintu inyuma, ku muhanda hari inzira y'abanyamaguru, ku nzira y'amaguru hari ibikorwaremezo by'amashanyarazi hariho n'amatara amurikira umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo. Ku nkengero z'umuhanda hateye indabyo. Hari n'ibiti bikikije umuhanda. Hari amazu atandukanye munsi y'umuhanda. Hari n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi atuma abantu babona ingufu zo gukoresha.

Umuhanda wa kaburimbo wegeranye n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi, kifashishwa mu kugeza amashanyarazi ahantu henshi hatandukanye abaturage batuye, icyapa kigaragaza aho abantu bagomba kunyura bazengurutse.

Amasangano y'imihanda, naho imihanda iva mu byerekezo bitandukanye ihurira harimo amatara ayobora ibinyabiziga abagenzi barimo barambukiranya imihanda. Abamotari nabo barimo baratwara abagenzi.

Amashanyarazi atuma abantu bakoresha ibikoresho bitandukanye by'amashanyarazi, harimo ibikoresho byo mu gikoni n'ibikoresho byo mu rugo. Amashanyarazi kugira ngo agere ku baturage ha hakenerwa ibikorwaremezo.

Inzu ebyiri zigeretse hari ibikorwa remezo by'amashanyarazi hari ibyuma bibonekwaho insinga z'amashanyarazi ,insinga z'amashanyarazi koreshwa kugira ngo amashanyarazi agere ku baturage batuye kure .

Ku muhanda wa kaburimbo, umuhanda ufite inzira y'abanyamaguru mu nzira y'ayamaguru harimo abanyamaguru benshi barimo kugenda umuhanda kandi ukikijwe n'amatara abamurikira nijoro hari n'insinga z'amashanyarazi.

Imodoka eshatu zihagaze ku nkengero y'umuhanda, ebyiri zifite ibara ry'umweru, indi ifite ibara ryijimye. Umugore ufite ibintu ugemuye kwa muganga, yicaye iruhande rw'umuhanda.

Kwa muganga hari amazu atandukanye bitewe n'aho abaganga bagenda bakorera, hari kandi ubusitanide bumeze neza bugizwe n'indabo n'ibiti bizazana umuyaga.

Ibitaro by'akarere bya Nyarugenge. Ni ibitaro byiza cyane byakira abarwayi batandukanye, bavuye mu bindi bitaro bitandukanye, cyangwa se ibigo nderabuzima. Iyo ugezemo ubona ari ahantu heza cyane.

Muganga w'amaso ni umuganga wize ibihereranye n'amaso, n'imiterere yayo n'indwara zifata amaso. Iyo dufite ikibazo cyo kutareba neza cyangwa se kutarebana namba tujya ku muganga w'amaso kugirango atuvure.

Amazu atandukanye akoreshwa n'ikigo cy'ubuvuzi, harimo ibyumba bitandukanye bitewe n'umubare w'abaganga bafite, hari ibyapa biyobora abantu aho bajya kwivuriza.

Inzu nziza cyane inzu nini ifite amabati atukura ifite n'imbuga ihagije yaparikwaho imodoka, imbagukiragutabara iparitse kuri iyo nzu . iImbangukiragutabara ni imodoka ikoreshwa mu gutwara abarwayi kwa muganga .

Imbangukiragutabara n’imodoka ikoreshwa na minisiteri y'ubuzima, kugira ngo ijye itwara abarwayi bindembe ibavana ku bigo nderabuzima ibajyana ku bitaro by'akarere cyangwa ahandi hose bagiye kwivuriza mu buryo bwihuse.

Imbangukiragutabara ni imodoka zikoreshwa n'ibitaro bitandukanye mu gihugu, kugira ngo bijye bigeza indembe ku bitaro zishobora kwivurizaho. Imbangukiragutabara ni ingenzi mu gihugu cyacu.

Abantu batandukanye bari kwa muganga. Abenshi bicaye ku ntebe barategereje harimo abaturage basanzwe, harimo n'abagororwa aba bambaye imyenda y'amaroza. Hari n'abandi bategereje bageze ku madirishya barimo gufashwa.

Inzu nziza cyane ifite icyumba cy'inama kigali kandi iyi nzu isashwemo amakaro, inzu ifite ahantu hateganyirijwe serivisi z'abantu bafite ubumuga nk'ubwiherero n'ahantu ho gukarabira.

Aho abaturage bakarabira intoki ,umuntu wambaye umupira w'umuhondo arimo arajya ku bukarabiro kugira ngo akarabe intoki iruhande rwabo hari imodoka y'umweru hari ikigega kiri hejuru cyoherezamo amazi .

Umuhanda wa kaburimbo. Ni umuhanda umeze neza, uca haruguru y'ibitaro bya kabgayi. Icyapa kigaragaza ibitaro bya Kabgayi. Ibitaro bya Kabgayi bikaba biherereye mu murenge wa Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo.

Imbangukiragutabara ni imodoka zikoreshwa muri minisiteri y'ubuzima kugira ngo zijye zitwara abarwayi b'indembe zibavana ku bigo nderabuzima zibajyana ku bitaro by'akarere cyangwa ku bitaro bikuru.

Imodoka ebyiri z'impagukiragutabara, impagukiragutabara ni'i imodoka zikoreshwa na minisiteri y'ubuzima kugira ngo abarwayi b'indembe bave ku bigo nderabuzima no ku bitaro bajya kwivuriza ahandi hari ubushobozi imbogukeragutabara zarakoreshwaga mu gihugu.

Abaturage baje gusaba serivisi zitandukanye ku biro. Bamwe baricaye ku ntebe bategereje ko abarimo guhabwa serivisi barangiza nabo ngo bakurikireho. Babiri bahagaze ku idirishya barimo barasaba serivisi yabazanye.

Ibitaro by'akarere bya nyarugenge ni ibitaro biri ku rwego rw'akarere bishobora koherezwamo abarwayi n'indembe baturutse ku bindi bitaro byo mu karere bananiwe kubona ubufasha bagafashwa .

Umuganga yambaye umwenda w'akazi, hari umugore wicaye ku ntebe muganga arimo aramusuzuma, muganga yambaye akuma kumviriza mu matwi ku meza hari mudasobwa ikoreshwa na muganga.

Umugabo munini, wambaye indorerwamo z'amaso, wirabura akaba yambaye ishati iri mu ibara ry'iroza. Ni umugororwa.

Umugororwa ari mu cyumba cy'iburanisha, yambaye agapfukamunwa kandi yambaye umwenda w'imfungwa ugizwe n'ishati yo mw'ibara ry'iroza, iruhande rwe hahagaze umwunganira mu mategeko wambaye ikanzu ndende y'umukara irimo ibara ry'umweru imbere.

Abacamanza babiri bari mu cyumba cy'iburanisha, bamwe ni umugore undi ni n'umugabo bambaye imyenda y'akazi ari yo ikanzu ndende cyane y'umukara ifite akabara k'umweru imbere yabo hari za mudasobwa.

Abacamanza bicaye mumyanya yabo bambaye amakanzu y'umukara afite ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru mugatuza bose bambaye ingofero bose bafite mudasobwa imbere yabo.

Umuntu wakoze ibyaha bitandukanye by'inyokomuntu cyangwa se byangiza umutungo w'abantu umaze igihe kirekire ashakishwa, yafashwe ku italiki makumyabiri n'enye z'ukwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Abagororwa ni abantu baba barakoze ibyaha bitandukanye mu gihugu bagakatirwa n'inkiko ibihano by'igihe gitandukanye, iyo bakatiwe n'inkiko bajya gufungirwa ahantu bita mu igororero.

Umugororwa yambaye ikabutura n'ishati by'ibara ry'iroza, yambaye n'agapfukamunwa k'iroza, ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko, umwe yambaye ikanzu y'umukara afite impapuro mu ntoki, undi na we ni umuntu w'igitsina gore yambaye ikanzu y'umukara ufite n'ibitabo mu ntoki.

Umugabo munini wambaye ikanzu ndende itukura irimo amabara y'umukara imbere mu gatuza hamanuyemo ibara rirerire ry'umweru, abantu bambaye gutya akenshi baba bakora mu nzego z'ubutabera ni umucamanza.

Umugororwa yambaye agapfukamunwa, yambaye ishati y'ibara rya roza ari kumwe n'umwunganira mu mategeko, yambaye agapfukamunwa yambaye ikanzu y'umukara irimo kabara k'umweru barimo arareba muri mudasobwa.

Abagororwa batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze abagororwa ni abantu bakoze ibyaha bakaburana mu nkiko, inkiko zikabahamya ibyaha zikabakatira imyaka, iyo myaka bakaba bagomba kuyimara mu igororero.

Abacamanza bicaye mu myanya yabo mu cyumba, Imbere yabo hari amabendera atandukanye y'igihugu cy'u Rwanda, ni amabendera arindwi. Mu myanya yindi hicaye abacamanza bashya biteguye kurahirira umurimo wabo

Umugabo wambaye ikanzu ndende y'umukara; iriho igitambaro cy'umutuku; imbere ku ikanzu hariho agatambaro kamanutse k'umweru; ni umucamanza.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku. Irimo amabara y'umukara. Imbere mu gatuza hamanuye agatambaro k'umweru. Yambaye ingofero y'umukara, iriho agatambaro k'umuhondo ku ruhande. Ni umucamanza.

Umugabo wambaye ikanzu y'umukara irimo igitambaro cyu'mutuku, imbere mu gatuza hari agashumi k'ibara ry'umweru, uyu mugabo akora m'ubutabera ni umucamanza.

Sankara nk'umwe mu banyarwanda bagaragaye mu bikorwa by'iterabwoba n'umutekano muke mu rwanda afashwe n'abaporisi babiri bamujyanye kumufunga. Abaporisi bambaye imyenda yabo y'akazi.

Umusirikare mukuru w'u rwanda yambaye imyenda y'akazi y'abanyacyubahiro yambaye kandi amapeti yo ku rutugu azamuye ukuboko afasha ku ibendera ry'u rwanda ari mu kurahirira akazi.

Umuntu wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku irimo n'ibara rimwe ry'umukara, imbere hari ibara ry'umweru rimanutse yambaye amarinete akora mu nzego z'ubutabera n'umucamanza.

Icyumba cyagenewe ikoranabuhanga, ni icyumba ikigo cy'ishuri kiba gifite, abanyeshuri bakajya bajya kwigiramo ibigendanye n'ikoranabuhanga, kirimo za mudasobwa abanyeshuri bicaye imbere ya mudasobwa barimo barimenyerereza, bose bambaye udupfukamunwa.

Igororero ni ahantu bafungira abantu bakatiwe n'inkiko kubw'ibyaha runaka bitandukanye baba barakoze, baba bagomba kuzahamara ubuzima bwabo mu gihe imyaka babakatiye itararangira.

Igororero ni ikigo cya leta iba yarubatse kugira ngo ijye ishyiramo abagororwa bamaze guhamwa n'ibyaha bakatiwe gufungwa, buri iryo buri ntara iba ifite igororerwa ryayo.

Umugore wambaye ikanzu ndende y'umukara, ifite igishura cy'umutuku, imbere kuri iyo kazu hari agashumi kamanutse k'umweru. Uyu mugore ni umucamanza.

Mu muhanda wa kaburimbo uriho icyapa kiyobora abantu kubitaro, hari ubusitani butandukanye buri munsi y'umuhanda n'ibiti bitandukanye bitanga umuyaga.

Umurindankuba ni igikoresho bashyira ku mazu kugirango kibe cyabasha kurinda iyo nzu mu gihe hari imirabyo cyangwa se inkuba. Inzu idafite umurindankuba ishobora gufatwa n'inkongi y'umuriro mu buryo bworoshye.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa banzimya inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto ziba zitandukanye bitewe n'ingano yazo cyangwa se n'aho zagenewe kuzimya. Kizimyamwoto ishobora gukoreshwa ahantu henshi hatandukanye; kuzimya imodoka yahiye, kuzimya inzu, kuzimya ku gikoni hafashwe n'inkongi, n'ahandi.

Kizimyamwoto n'igikoresho gikoreshwa bazimya inkongi y'umuriro kizimyawoto ishobora gukoreshwa ahantu hatandukanye mu modoka, mu nzu, mu isoko n'ahandi hose bashobora gusanga inkongi y'umuriro.

Izimyamwoto ni igikoresho cyifashishwa bazimya inkongi y'umuriro. Umuriro ushobora kuzimwa ni umuriro ushobora gufata imodoka, inzu, cyangwa se ahantu abantu batekera, cyangwa se umuriro wafata ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu rugo.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto izimya umuriro uwo ariwo wose, waba umuriro w'inkongi y'umuriro yafashe inzu cyangwa se imodoka, cyangwa ibindi mu rugo.

Kzimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto ishobora gukoreshwa ahantu hatandukanye. Ishobora gukoreshwa mu modoka, mu rugo, mu biro cyangwa se aho umuntu akorera.

Imodoka y'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda, ni imodoka ifasha abapolisi bo muri iryo shami, gukurikirana ibinyabiziga uko bigenda mu mihanda yose yo mu gihugu bakareba ko hari icyateza impanuka.

Imihanda ya kaburimbo ifite inzira z'abanyamaguru inzira y'abanyamaguru igaragazwa n'imirongo y'umweru itambitse mu muhanda, hari umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda urimo gufasha abanyamaguru kwambuka.

Abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro bafite ibikoresho bibafasha kuzimya umuriro bambaye imyenda y'akazi n'ingofero zabugenewe barimo barazimya ahantu habereye inkongi y'umuriro .

Abantu benshi bari mucyumba abapolisi babiri barimo baraba sobanurira uburyo inkongi y'umuriro bayizimya hari kizimyamwoto eshatu barimo baragaragaza uko umuntu yakoresha kizimya mwoto.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kizimyamwoto ziba zitandukanye mu bunini hari ntoya ahanini cyane intoya zishobora kuzimya umuriro mukeya naho irene zikazimyara umuriro mwinshi.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, kizimyamwoto ziba ziri mu buryo butandukanye n'ingano za ziba zitandukanye kuko zitandukanye mu ngano n'ubunini nakoze za zitandukanye mu kuzimya umuriro mu rugero runaka.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa igihe habaye inkongi y'umuriro kugira ngo izime. Kizimyamwoto ishobora gukoreshwa ahantu hatandukanye, ishobora gukoreshwa ku modoka yafashwe n'inkongi y'umuriro, mu biro, mu gikoni n'ahandi.

Kizimyawoto ni igikoresho gikoreshwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, mu kuzimya umuriro wa uturutse ahantu ahariho hose hatandukanye, waba ufite ingano itandukanye iyo ukoreshe kizimyamwoto neza umuriro urazima.

Imodoka zirimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, imodoka y'umukara irimo irazamuka, hakurya yayo hari imodoka ya polisi y'u Rwanda birimo kubisekana, ariko hagati yazo hari akayira karimo indabyo n'imikindo.

Zigama siyesesi ni ikigo cy'imari gikoreshwa n'inzego zishinzwe umutekano, ni ukuvuga ingabo z'igihugu, abagize polisi y'igihugu, n'abacungagereza. Zigama siyesesi itanga inguzanyo zitandukanye hakananyuzwamo n'amashahara n'imishahara y'abagize inzego z'umutekano.

Umupolisi w'u Rwanda uri mu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, yahagaritse ikinyabiziga arimo aragenzura ibyangombwa by'umushoferi, kugira arebe ko byuzuye atazakora impanuka mu muhanda.

Abagore batandukanye bakenyeye, kuri buri wese hashinze ibendera ry'igihugu. Buri wese arifasheho n'ukuboko kwe kw'ibumoso, bazamuye ukuboko kw'iburyo barimo kurahirira akazi.

Icyumba cy'inteko ishinga amategeko gikoreramo, ni icyumba kimeze neza kirimo intebe nziza ku buryo buri umwe mu bagize inteko ishinga amategeko aba yicaye mu mwanya we, harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Minisitiri w'intebe w'u rwanda arimo araganira n'abagize inteko ishinga amategeko; inteko ishinga amategeko y'u rwanda igizwe n'ibice bibiri; hari abadepite, hari n'abasenateri; bose buri wese mu cyumba cy'inteko abafite umwanya yicaramo.

Abadepite bicaye mu myanya yabo mu nteko ishinga amategeko. Bari mu gikorwa cyo gutora. Umwe afite agaseke kugira ngo agende bashyiramo udupapuro batoreyeho.

Icyumba cy'itora ni icyumba kiba kirimo ibikoresho bikoreshwa mu matora. Umuntu yamaze gutora afote urupapuro yatoreyeho, agiye kurushyira mu gasanduku k'itora.

Mpayimana Philippe ni umwe mu banyarwanda biyamamarije mu matora ya perezida wa repubulika mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, Mpayimana Philipe ntiyabashije gutsinda kubera ko ayo matora yatsinzwe na Paul Kagame.

Paul Kagame ni perezida wa repubulika y'u rwanda ari kumwe na louise Mushikiwabo akaba ayobora umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga igifaransa barire imbereye yikirangantego cya repubulika.

Polo Kagame ni perezida wa repubulika y'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu Polo Kagame arimo araganiriza abaturage, cyangwa se abarwanashyaka b'ishyaka efuperi inkotanyi ari kumwe n'umuntu ushinzwe umutekano we.

Umugore wambaye indorerwamo z'amaso yambaye umukenyero n'umupira azamuye akaboko afashe ku ibendera ryu Rwanda arimo kuvuga indahiro .

Inteko ishinga amategeko iba igizwe n'abantu batandukanye haba harimo ab'igitsina gore na b'igitsina gabo, kandi iba igizwe n'abantu bo mu madini atandukanye harimo aba kirisito harimo n'abasilamu buri muntu aba afite ahantu ho kwicara hihariye.

Abantu batandukanye b'igitsina gore baricaye; bambaye imyenda igizwe n'amabara ubururu, umutuku n'umweru; bafite utudarapo utubendera tugizweho n'amabara umutuku, umweru n'ubururu twanditsemo efuperi. Ni abanyamuryango b'ishyaka rya efuperi rikorera mu rwanda.

Icyumba cy'inama kimeze neza, harimo intebe nziza aho buri muntu wese yicara ameze neza kandi yegamye, mu bitabiriye inama buri muntu wese ahabwa amazi yo kunywa, ni icyumba kirimo ikoranabuhanga ku buryo baba bashobora kureba n'amashusho.

Abantu babiri bahagaze mu cyumba, umwe ni umugabo yambaye ikanzu y’umweru n’ikote ry’umukara, undi ni n’umugore wambaye umwitero, bose bazamuye akaboko k’iburyo ak’ibumoso, gafashe ku ibendera ry’igihugu, barimo kurahira.

Amabendera ya repubulika y'u Rwanda. Abantu batandukanye bahagaze kuri ayo mabendera. Harimo abagabo n'abagore. Bose bahagaze buri wese afashe ku ibendera, hanyuma azamuye ukuboko. Barimo kurahira.

Imodoka ebyiri nini zitwara abagenzi, zifite ibara ry'ubururu hagati harimo ibara ry'umweru, zihagaze hagati mu nzira y'abanyamaguru. Imbere hari imodoka y'indi y'umweru itwara abagenzi.

Imodoka itwara imizigo iri mu muhanda wa kaburimbo, igeze aho abanyamaguru bambukira mu muhanda hari abanyamaguru barimo kugenda iruhande rw'umuhanda hari n'izindi modoka ziyikurikiye n'iziyibanjirije.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndende cyane y'umweru ifite ibyuma bifite ibara ry'ubururu. Iyo modoka yikoreye inka zitandukanye, izijyanye ahantu hatandukanye, munsi y'umuhanda hari ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri n'umumotari uhetse umugenzi uri kuzamuka imodoka ni umukara ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti by'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragendwamo n'abantu bagendera ku magare bahetse abagenzi harimo imodoka y'umweru itwara imizigo, munsi y'umuhanda hateyeho ibiti bitandukanye .

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane igenewe gutwara abagenzi, ni ya modoka itwara abantu benshi kubera ko bamwe bagenda bicaye abandi bahagaze umuhanda kandi urimo abagenzi b'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikoreye imizigo, imizigo irahambiriye neza n'ihema, hejuru hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara ushinzwe gucunga umutekano w'umuzigo.

Aho imodoka zitwara abagenzi zihagaze. Aho zihagaze hari imodoka enye zitwara abagenzi, hari imodoka ntoya, hari n'imodoka nini z'ibara ry'ubururu zitwara abagenzi. Hirya hari abantu batandukanye, hakubiyemo n'abaje gutega imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye; ikimodoka kinini cy'umweru cyikoreye imizigo kirimo kiragenda; umumotari arimo aragenda ariko nta mugenzi afite. Umuhanda kuruhande hariho akayira k'abanyamaguru.

Imodoka itwara imizigo irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, itwikirije ihema nta kintu yikoreye, ku muhanda hepfo hateye ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini y'umweru itwara imizigo, n'indi modoka isanzwe y'umweru biri kubisikana. Umunyamaguru arimo arugendo iruhande rw'umuhanda afite imifuka mu ntoki

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane yagenewe gukurura izindi mugihe zagize impanuka. Kurundi ruhande harindi modoka nini cyane ifite ibara ry'umukara yikorera imizigo, umuhandateyeho ibiti.

Imodoka itwara abagenzi mu muhanda, ni imodoka nini ifite ibara ry'umweru irimo iragenda mu muhanda wa kaburimbo, harimo umuntu ufite ibara ry'umutuku. Ku muhanda wa kaburimbo harimo umumotari utwaye moto y'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye n'imodoka nini cyane itukura yikoreye umucanga, kandi iyi modoka ishobora kwikorera ibindi bitandukanye bikoreshwa mu bwubatsi nk'amabuye amategura itaka n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu babiri bari kugenda ku magare, bose bahetse abagenzi. Imodoka y'umweru itwara ibicuruzwa irimo iragenda, munsi y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ku ruhande inzira y'abanyamaguru, umuhanda urimo imodoka y'umweru itwara ibintu, umuhanda uriho ibiti bitandukanye bizana umwuka kandi munsi y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo umuntu arasunika igare ririho ibicuruzwa iriho igitoki n'ibindi, imodoka ebyiri imwe ni imodoka y'umweru itwaye imizigo indi nayo y'umweru ipfundikiye inyuma itwara ibintu.

Imodoka y’ umweru itwara abagenzi muri rusange iri mu muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hari umunyonzi utwara abagenzi ku igare udafite umugenzi munsi nzu y'umuhanda hateye ibiti.

Imodoka ebyiri zikorera imizigo zihagaze kumuhanda. Imwe bayipakiye imizigo iruzuye indi itegereje ko yuzura. Imwe ifite ihema ryumukara hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragendwamo n'ibinyabiziga hari umumotari uhagaze urimo kureba kuri terefone nta mugenzi afite hari imodoka ndende itwara imizigo y'umweru irimo kugenda kurundi ruhande rw'umuhanda.

Mu muhanda harimo moto itwara imizigo, ibi bazi ku izina rya rifani ifite ibara ry'ubururu yanditseho Made in Rwanda. Naho kurundi ruhande hari imodoka ntoya itwara abagenzi.

Umuhanda wa Kaburimbo urimo abamotari bane batwaye abagenzi. Harimo imodoka y’umweru, nini cyane itwara imizigo ,munsi y’umuhanda hari ibiti munsi y’biti, hateye ubusitani.

Imodoka nini itwara abagenzi benshi iri mu muhanda, ifite ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru, mu muhanda harimo abandi bagenzi, harimo umuntu utwaye moto, n'imodoka zihagaze iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini ifite ibara ry'ubururu itwara imizigo muri uwo muhanda harimo umumotari urimo kumanuka munsi y'umuhanda hari ibiti kandi munsi y'byo biti hari amazu y'abaturanyi.

Abamotari bari mu muhanda wa kaburimbo, batwaye abagenzi, abanyonzi nabo bari mu muhanda nabo barimo barashaka abagenzi, hari imodoka nini y'umutuku itwara umucanga, amabuye n'ibikoresho byo kubaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye, harimo imodoka y'ibara ry'icyatsi ikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri biga ibihereranye n'amategeko y'umuhanda gutwara ibinyabiziga, harimo abanyamaguru kandi barimo kugenda mu ruhande rwagenewe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abagenzi batandukanye hari umuntu wambaye umupira w'umweru urimo kugenda avugira kuri terefone abamotari babiri batwaye moto z'amashanyarazi bari mu muhanda, imodoka yikoreye imizigo iri mu muhanda, n'umuntu mu nzira y'abanyamaguru wikoreye imifuka.

Umuhanda urimo abagenzi, batandukanye imodoka zikoreye, yikoreye imizigo, yikoreye imbaho, abamotari batwaye abagenzi ndetse hari n'umunyamaguru urimo gutega imodoka.

Umumotari mu muhanda ari kuri moto ye yambaye umwambaro w'akazi, ku ruhande rw'umuhanda harimo haragenda abantu babiri b'abanyamaguru, hari imodoka muri uwo muhanda kandi umuhanda ukikijwe n'amazu atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara ibicuruzwa ,imodoka ifite ibara ry'umuhondo hakurya y'umuhanda hateye ibiti bitandukanye n'indabo zitandukanye .

Imodoka zitwara ibintu ziri mu muhanda wa kaburimbo zegereye inzira y'abanyamaguru iy'imbere ifite ibara'ubururu iy'inyuma ifite ibara ry'umweru, iy'inyuma ifite ibara ry'umweru yikoreye ibintu byinshi bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite kuruhande inzira y'abanyamaguru. Hari umumotari uhetse umuntu kuri uwo muhanda ku ruhande rwo hakurya hari umuntu wambaye imyenda y'umukara urimo kuza, imodoka nini itwara imicanga iri mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo. Umunyamaguru yikoreye umufuka ku bitugu. Imodoka itwara imizigo, iri mu muhanda irimo kugenda. Umumotari ahetse abagenzi. Ku ruhande rw'umuhanda, hateye ibiti n'amatara awumurikira nijoro.

Umunyonzi atwaye igare ahetse amabati, amwe yayaziritse ku ruhande rwo haruguru, andi aayazirika kuru ruhande rwo hepfo, arimo aragenda mu muhanda wa kaburimbo. Hepfo ye hari undi munyonzi uri kugenda ku igare nta kintu afite nta n'umuntu ahetse, kurundi ruhande naho hariho undi muntu utwaye igare imbere ye hari ibinyabiziga bibiri bigenda mumuhanda.

Moto yikorera imizigo ifite ibara ry'ubururu, ifite ibicuruzwa inyuma inatwikirije ihema. iruhande rwayo hari umuntu urimo gusomeka ibirayi ku igare ni umunyonzi

Umuhanda wa kaburimbo, umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane ifite ibara ry'umuhondo yikoreye amabuye, iyi modoka ikoreshwa ku bantu barimo kubaka cyangwa abafite gahunda zo gukora imihanda.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda, iy'imbere ni imodoka ifite ibara ry'ubururu ifiteho n'ibyuma by'umweru hejuru ni imodoka itwara imizigo, iy'inyuma ni imodoka y'umweru ifite ahantu inyuma batwara ibintu.

Umuntu utwaye moto ni umumotari utwara abagenzi ku muhanda, ari mu muhanda wa kaburimbo ategereje abagenzi, umuhanda ni mwiza utuyeho abantu kandi uteyeho ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo abanyamaguru, harimo n'abantu batwaye amagare, harimo ikimodoka kinini gitwara imizigo kirimo kugenda, munsi y'umuhanda hateyeho ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini itwaye abagenzi, ifite ibara ry'umweru. Imbere yayo hari umumotari utwaye umugenzi, umugenzi yambaye ingofero y'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo. Urimo ibimodoka bibiri byikorera imizigo myinshi. Kimwe kirimo kiragenda nta muzigo gifite, ikindi cy'umweru gifite umuzigo. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Imihanda ya kaburimbo. Harimo haragendwamo ibinyabiziga bitandukanye, hari imodoka itwara imizigo iri mu muhanda, hari abamotari batwaye abagenzi, hari n'umuntu uri kugendera ku igare.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi ifite ibara ry'ubururu, ni imodoka nziza cyane itwara abagenzi benshi kubera ko bamwe bagenda bahagaze abandi bakaba bicaye, ikoreshwa n'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendwamo n'umuntu utwaye igare, hari imodoka nini y'umweru yikoreye imizigo igiye guhagarara iruhande rw'umuhanda. Hari abantu bahagaze ku ruhande, iruhande rw'iyo modoka.

Abasore babiri barimo gutembera umwe yambaye umupira ahetse igikapu mu mugongo uwa kabiri yambaye ingofero yambaye ishati n'ikabutura bose baratembera barimo baganira.

Imodoka nini ifite ibara ry'ubururu iri mumuhanda wa kaburimbo yikoreye imizigo ,ifite ihema ry'umweru inyuma umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire .

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ikimodoka kinini cy'umweru gitwara imizigo, umuhanda uriho ibiti ku ruhande rumwe kandi uyu umuhanda ni umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane itwara ibikomoka kuri peteroli, iragenda gake kubera ko yikoreye cyane, munsi y'umuhanda hateye ibiti, inyuma y'iyo modoka hari aba motari batwaye abagenzi.

Imodoka nini y'umweru itwara imizigo ihagaze kuri kaburimbo iruhande rwayo hari akayira k'abanyamaguru hari icyapa kigaragaza ko kuhaparika imodoka no guhagarara umwanya mwinshi bibujijwe .

Umuhanda wa kaburimbo uri kubinyabiziga hari imodoka hari n'umumotari udafite umuntu ukuriye imodoka abandi bamotari bahagaze ku nkengero y'umuhanda bose bambaye imyambaro y'akaziranga nk'abamotari n'ingofero.

Mu muhanda wa Kaburimbo, hariho abantu barimo gusunika amagare, bose bikoreye imifuka iriho ibirayi. Uwimbere afite umufuka wuzuye, uw’inyuma umufuka wi’gice iruhande rwabo, hari akamodoka gatwara abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabizi moto irimo irazamuka ikurikiwe n'imodoka y'ivatiri. Umuhanda wa kaburimbo uzamuka n'umanuka bitandukanyijwe n'ubusitani burimo ibiti by'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikimodoka kinini cy'umutuku gishinzwe gutwara imicanga n'amabuye n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi, inyuma y'iyo modoka hari indi modoka itwara abanyeshuri ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu bari aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara hari abantu benshi hari n'abafite imizigo imodoka zitwara abagenzi ni nini cyane bihagije zitwara abantu benshi kandi zikabatwarira icyarimwe.

Umumotari ahetse umugenzi kuri moto bari mumuhanda wa kaburimbo mu muhanda harimo ipikipiki itwara imizigo munsi y'umuhanda hateye ibiti bitandukanye bizana umuyaga mu muhanda.

Umuntu arimo arasunika igare ririho umufuka munini wibirayi mu muhanda wa kaburimbo, imbere ye haturutse imodoka y'umweru iruhande rwo hepfo rw'umuhanda hataho i ibiti kandi hariho amatara acanira umuhanda.

Nimero iranga ikinyabiziga urugero nka moto, buri moto yose iba ifite numero iyiranga, iba yarashyizwe inyuma n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, iyo nimero igizwe n'inyuguti ebyiri zikurikiwe n'imibare itatu inyuma hakaba indi nyuguti.

Imodoka nini itwara abagenzi ifite amabara atandukanye, iyi modoka itwara abagenzi benshi kubera ko bamwe bagenda bicaye abandi bakagenda bahagaze, ni imodoka nziza ikiri nshyashya kandi iyi modoka itwarwa n'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru itwara abagenzi, ni imodoka itwara abagenzi benshi ku rundi ruhande hari abamotari babiriye umwe atwaye umugenzi undi w'imbere nta mugenzi afite.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri zirimo kubisikana, imwe ni imodoka y'umweru itwaye abagenzi, indi ni ikimodoka kinini cy'umuhondo gitwara imizigo myinshi cyane, munsi y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo. Uriho ikiraro. Umuntu uhetse igikapu arimo aragenda ku ruhande rw'umuhanda. Imodoka y'umweru irimo umuntu inyuma irimo iragenda. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo: Ni umuhanda udndwamo ibinyabiziga, harimo imodoka y'umweru ifite ibicuruzwa bitwaye, k'uruhande rw'umuhanda rwo hepfo hateye ibiti.

Umuhanda urimo umuntu utwaye umugenzi ku igare, ni umunyonzi, imbere ye hari umumotari nawe utwaye umugenzi, wambaye ingofero zitukura nyuma yaho hari umumotari wundi munsi y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ,umuhanda ugizwe n'ibice bibiri aho imodoka zizamuka n'izimanuka zinyura ibyo bice byombi bigabanyijwe n'ubusitani buteyemo imikindo umumotari ahetse umugenzi .

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka iri kugenda ifite ibara ry'umukara iteganyeye n'umumotari utwaye umugenzi iruhande rw'umuhanda hari ibyuma bifata imodoka mugihe yaba igizwe impanuka.

Umuhanda urimo imodoka zitandukanye, imodoka ifite ibara ry'ubururu nini yikorera imizigo irimo iragenda mu muhanda, umuhanda ufite akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo igikamyo kinini cyane cy'bara ry'umutuku, cyikorera imicanga, amabuye n'ibikoresho by'ubwubatsi, umuntu utwaye igare ahetse mugenzi we, hari n'undi utwa igare udafite umuntu ahetse.

Umuhanda wa kaburimbo abamotari babiri barahagaze umwe afite umugenzi, undi nta mugenzi afite, udafite umugenzi arakoresha moto y'amashanyarazi izuba ririmo kuva.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bibiri; kimwe ni moto yikorera imizigo ifite ibara ry'umweru, ikindi nimo itwara ibicuruzwa yikoreye za matela, munsi y'umuhanda hari ibiti biteyemo n'ubusitani.

Icyapa kigaragaza ko hari imirimo irimo gukorerwa mu muhanda, kigizwe na mpandeshatu izengurutswe n'ibara ry'umuhondo, hagati ari ibara ry'umweru ririmo umuntu uri mu ibara ry'umukara ufite igitiyo ari gushyira mu mucanga.

Icyapa kigaragaza ko ikinyabiziga cyose kigomba kugenda ku muvuduko wa kilometero mirongo itandatu ku isaha kigizwe n'ibara ry'umweru rizengurutswe n'uruziga rufite ibara ry'umutuku hagati handitseho umubare mirongo itandatu kilometero ku isaha .

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane ,iruhande hari akayira k'abanyamaguru mu kayira k'abanyamaguru hari umuntu urimo kugendamo hari kandi icyapa kigaragaza ko ibinyabiziga bitagomba kurenza umuvuduko wa kirometero mirongo itandatu mu isaha.

Umuhanda wa kaburimbo ukiri mushya amabara yawo aragaragara neza. Haruguru ya kaburimbo hari inyubako ku ruhande rwa kaburimbo hari ubusitani bwiza, hari icyapa kigaragaza ko imodoka zitemerewe guhagarara.

Icyapa kiranga umuhanda kigizwe n'urukiramende rutoya ruzengurutswe n'akabara k'umukara, kigizwe kandi n'inyuguti zigaragaza amazina y'aho umuhanda uherereye n'inyuguti hagati zigaragaza nimero y'umuhanda.

Icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira, ni icyapa k'ibara ry'ubururu rizengurutswe n'akabara k'umweru, hagati hakaba harimo mpande eshatu y'umweru irimo imirongo y'umukara n'umuntu uri mu ibara ry'umukara.

Igororero rya Nyamagabe ni rimwe mu magororero ari mu Rwanda. Igororero ni ahantu hahurizwa abantu bahamwe n'icyaha bagakatirwa imyaka y'igifungo. Igororero rya Nyamagabe ribamo abagororwa b'igitsina gore gusa.

Icyapa kigaragaza umuhanda utanyurwamo n'ibinyabiziga, kigizwe n'ibara ry'umweru rizengurutswe n'umurongo w'umutuku, hagati hanyuzemo undi umurongo w'umutuku, imbere mu ibara ry'umweru hagati harimo imodoka z'umukara ebyiri.

Icyapa kiranga umuhanda ni icyapa kiba kiri mu ibara ry'umweru rizengurutswe n'akabara k'umukara kigizwe n'inyuguti zigaragaza aho umuhanda uherereye nimibare igaragaza nimero y'umuhanda.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ko ugomba gukoresha ubushishozi n'bwitonzi, kubera ko ugiye kugera ahantu hamanuka cyane. Icyapa kigizwe na mpande enye, iriho ibara ry'umweru n'umukara.

Icyapa kimenyekanisha ko bitemerewe guhagarika imodoka igihe kirekire. Kigizwe n'ibara ry'umweru, ririmo uruziga rw'umutuku rurimo imodoka ipatsemo umurongo. Handitseho ko hatagomba guhagararwa n'imodoka.

Icyapa kigaragaza aho imodoka nini zitwarira abagenzi rimwe zihagarara kiba kigizwe n'ibara ry'ubururu rishushanyijemo imodoka itwara abagenzi hejuru, hasi handitsweho ko ari aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara.

Icyapa kigaragaza inzira y'abanyamaguru, kiba kigezweye n'iburara ry'umweru rizengurutswew'ibara ry'umutuku, hagati y'umweru haba harimo imirongo y'umukara n'umuntu urimo kuyigendamo bigaragaza inzira abanyamaguru banyuramo.

Ku mupaka w'u Rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya Kongo hari ibintu byinshi bigaragaza ko ugeze ku mupaka hari icyapa k'icyatsi cyanditseho amagambo agaragaza ko winjiye mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.

Icyapa kigaragaza ahantu hari ikiraro. Kigizwe n'urukiramende rw'ubururu, ruzengurutswe n'akabara k'umukara. Hagati handitswemo ijambo ikiraro. Icyapa giteye ahantu mu busitani.

Icyapa kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara, kiba kigizwe na mpande enye y'ibara ry'ubururu izengurutswe n'umurongo w'umweru, ishushanyijemo imodoka itwara abagenzi n'inyuguti ya pe hejuru.

Icyapa kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara, kiba ari icyapa gikoze mu ibara ry'ubururu rizengurutswe n'umurongo w'umweru, hagati harimo imodoka iri mu ibara ry'umweru itwara abagenzi n'inyuguti ya pa y'umweru hejuru.

Amatara ayobora ibinyabiziga mu muhanda, aya matara akoreshwa n'ibinyabiziga kugirango bihane inzira yo kugenda kandi ashobora gukoreshwa n'abanyamaguru. Iyo itara ryatsemo umuntu ufite ibara ry'icyatsi urimo kugenda bivuze ko abanyamaguru bagomba gutambuka.

Icyapa kiburira abayobozi b'ibinyabiziga ko umuntu atagomba kurenza kirome mirongo itatu mu isaha kigizwe n'ira ry'umuhondo ririmo akarongo umurongo ufunze wanditseho mirongo itatu, icyapa kandi kivuga ko imbere hari kamera y'umutekano.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka, amapikipiki n'abanyamaguru. Ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru, hari icyapa kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara.

Amatara ayobora imodoka cyangwa ibinyabiziga ku muhanda ashobora gukoreshwa ayobora ibinyabiziga mu masangano y'umuhanda cg se agakoreshwa ayobora abagenzi ababwira ko afite uburenganzira bwo kugenda cyangwa se kuba bategereje.

Icyapa kigaragaza ko ari hafi y'ishuri kigizwe na mpande eshatu y'mweru izengurutswe n'ibara ry'umutuku hagati mu ibara ry'umweru harimo abana babiri b'abanyeshuri .

Icyapa kigaragaza ko hari imirimo irimo gukorerwa mu muhanda, kigizwe na mpande eshatu y'umweru izengurutswe n'ibara ry'umutuku, hagati harimo umuntu ufite igitiyo urimob guterura umucanga.

Icyapa kigaragaza aho ibinyabiziga bishobora kunyura kigizwe n'ishusho y'umwashi iri mu ibara ry'umuhondo izengurutswe n'ibara ry'umukara hagati harimo ishusho y'umuhanda igaragaza ko ushobora gukata ibumoso cyangwa ugakomeza imbere.

Icyapa kigaragaza ko bibujijwe gukoresha igare, ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru ririmo uruziga rutukura runyurejemo akarongo kandi hagati hashushanyijemo igare mu ibara ry'umukara.

Abakozi barimo barashyira icyapa ku muhanda. Ni icyapa kigaragaza ko imbere mu muhanda hari kamera y'umutekano. Bagishyize ku kindi cyapa kigaragaza ko umuntu atagomba kurenza umuvuko wa kilometero mirongo itandatu mu isaha.

Kimironko ni umwe mu mirenge iri mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali kimironko yo irimo amazu atandukanye harimo amazu meza cyane ageretse maremare hakabamo n'amazu aciriritse ariko nayo yubatse mu buryo bugezweho.

Umuhanda w'aho abantu batuye, ushobora akenshi kuba ari umuhanda w'amabuye. Umuhanda w'amabuye ni umuhanda uba ukomeye kandi uba urambye. Iruhande rw'umuhanda hari amazu y'abaturage yubatse neza, hariho n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ni umuhanda ukeye utarimo ibinyabiziga cyangwa se abanyamaguru kuri buri muhanda kumpande zombi hari amazu y'abantu bahatuye kandi hari ibiti bizana umuyaga mwiza .

Umuhanda wa kaburimbo unyura iruhande rw'inzu y'ubucuruzi, ni inzu y'amagorofa atatu inzu ishobora gukoreshwa mu mirimo myinshi itandukanye, ishobora gucururizwamo cyangwa se ikaba inzu ikoreshwa ibindi bintu bitandukanye.

Imiturire itandukanye mu mujyi, mu mujyi hatuye mu buryo butandukanye, harimo amazu meza agezweho afite ibisenge bya kijyambere ariko harimo n'utundi tuzu duto cyane dusakaye n'amabati makeya.

Umujyi ufite imyubakire iciriritse kandi atandukanye, amazuka amwe asakaje amabati y'umutuku andi asakaje amabati y'umweru andi mazusakaje amatagura yose ni amazu aciriritse.

Ahacururizwa imiti ivura abantu ni ingenzi cyane kugira ngo habe hahari, kubera ko kwa muganga iyo ugiye kwivuza bakwandikira umuti ukajya kuwureba mu mazu atandukanye hacururizwamo imiti.

Imiturire yo mu mujyi iratandukanye hari amazu meza cyane ageretse kandi yubatse neza afite n'ibisenge bigezweho, ariko harimo n'andi aba aciriritse mu mujyi hagiye hatewemo n'ibiti bizana umuyaga harimo imihanda y'imodoka ndetse n'iy'abanyamaguru.

Isibo ya gatandatu yitwa ubwitange iherereye mu mudugudu wa rwinyange akagari ka mbogo mu murenge wa nyarugunga.

Kimironko ni agace k'umujyi wa Kigali gafite imyubakire itandukanye. Harimo amazu aciriritse n'amazu ahenze, akomeye ageretse. Amazu kandi aba atandukanye bitewe n'ukuntu ageretse cyangwa se ibisenge bihageze.

Kinyinya ni Umurenge ubarizwa mu Karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali. Kinyinya ifite amazu meza yubatse neza ndetse harimo n'amazu ageretse ariko na none hari ahantu henshi hakiri ibibanza byo kubakamo.

Umurenge wa kimironko ni umwe mu mirenge cumi n'itanu igize akarere ka gasabo; umurenge wa kimironko ni umwe mu mirenge y'imijyi wubatse neza kandi ufite uruzitiro rumeze neza.

Kimironko kwa Mushimire ni hamwe mu hantu hatuwe neza, hari ibintu nyaburanga. Hari imihanda myiza, hari ibiti biteye ku muhanda, ndetse n'abaturage mu ngo zabo bagiye bafite ibiti bateye bizana akayaga keza.

Imiturire iciriritse mu mujyi, nubwo amazu menshi yo mu mujyi aba ari amazu meza ndetse anageretse, turabona amazu aciriritse afite amabati ashaje ndetse ya makeya.

Imyubakire y'umujyi igizwe n'amazu atandukanye mu myubakire; hari amazu magufiya, hakaba n'amazu maremare y'igorofa, ibisenge nabyo biba bitandukanye hari ibisenge by'amabati n'ibisenge by'amategura.

Inzu y'igorofa iri iruhande rwa kaburimbo. Muri kaburimbo imodoka ni nyinshi hari umuhanda umeze neza cyane usize amarangi.

Umuhanda wa kaburimbo ku mpande z'umuhanda wa kaburimbo hari inzira y'abanyamaguru abanyamagare benshi bari hafi aho na moto ziparitse kuruhande zicanye amatara nijoro hari amatara yo kumuhanda acanye .

Umuhanda wa kaburimbo urazamuka cyane, ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru yubakishijwe amabuye ku ruhande, hari umuntu utwaye moto uri ugeze mu nzira z'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo inzira y'abanyamaguru inzira y'abanyamaguru igizwe n'imirongo y'umweru iri mu muhanda rwagati hari amatara ayobora imodoka n'abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo, umuhanda uriho amabara atandukanye ku nkengero zawo kugira ngo hirindwe impanuka, hateyemo ibiti bitandukanye, ni umuhanda ugaragara ko imodoka zizenguruka.

Inzira y'abanyamaguru kuruhande rwa kaburimbo; ni inzira nziza cyane kubera ko irakubuye nta myanda iriho. Hepfo yaho hari ibiti bitandukanye bizana umwuka mwiza haba mu muhanda cyangwa se abatuye hafi yawo.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibiti mo hagati by'imikindo bizana umuyaga mwiza, ukagere n'ibindi biti bitandukanye ku nkengero z'umuhanda, abamotari babiri barimo kugenda buri mumotari wese ahetse umugenzi ufite umuzigo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zirimo kugenda, hari imwe irimo kuzamuka nde iririmo kumanuka hari umunyamaguru kurundi ruhande urimo kugenda mu umuhanda ukikijwe n'ibiti.

Inzu ifite igisenge cy'amategura, ni inzu yubatse munsi y'umuhanda, ifite urugo rw'amatafari ahiye, imihanda inyura kuri iyo nzu ni imihanda y'igitaka. Imodoka ebyiri zirimo zirazamuka haruguru y'inzu.

Amasangano y'imihanda ni aho imihanda ivuye mu byerekezo bitandukanye ihurira, haba hari amatara ayobora imodoka, ayo matara aba ari umutuku, icyatsi cyangwa umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo utarimo imodoka nyinshi hari imodoka imwe y'umukara irimo kugenda. Umuhanda ugizwe n'ibice bibiri hari imodoka zizamuka n'imodoka zimanuka. Munsi y'umuhanda hateye indabyo harimo ibiti bizana umuyaga.

Umuhanda wa kaburimbo. Ugaragaza neza inzira z'abanyamaguru. Inzira z'abanyamaguru zigaragazwa n'imirongo y'umweru iba iciye mu muhanda mo hagati. Hari imodoka irimo kuza muri uwo muhanda.

Inzira y'abanyamaguru nziza cyane isukuye, ku mpande hari ubusitani buteyeho ibyatsi, kandi munsi yaho hari ibiti bitandukanye bizana umuyaga n'umwuka mwiza.

Umuhanda wa kaburimbo aho abanyamaguru bambukira. Haba hagizwe n'imirongo y'umweru irimo muri kaburimbo. Hari kandi amatara ayobora ibinyabiziga. Itara ry'umutuku riracanye bigaragaza ko umunyamaguru atagomba kwambuka.

Umuntu wambaye umupira w'umukara arimo aritegereza umuhanda ashaka kuwambuka, hepfo gatoya hari undi muntu nawe ugiye kwambukira mu nzira y'abanyamaguru, imodoka yahagaze kugira ngo abanze atambuke.